Akabati kagaragara gakozwe mu mbaho, hakaba harimo amoko atandukanye y'ibintu bgiye birimo, hari uducupa dutoya turimo ibintu ndetse ndetse n'ibindi bikombe binini.

Umudamu wunamye ukenyeye igitinge akaba yambaye n'ishati ijya gusa umuhondo, yiteze igitambaro iruhande rw'iwe hari idomoro ijya gusa ubururu, inyuma y'iwe hari abandi bantu.

Mu imbere mu nyubako, ahagaragarara umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara ndetse n'ipantaro imbere yiwe, hari imifuka ipakiyemo ibintu.

Mu imbere mu nyubako hagaragara akabati karimo amoko atandukanye y'uducupa udufite imifuniko y'icyatsi n'udufite imifuniko y'umweru n'ikarito iteretse hasi ku makaro.

Umurima uhinzwemo ibimera bitarera neza haragaragara umudamu wambaye ijipo ndetse n'umupira utukura w'amaboko maremare.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo amoko atandukanye y'imifuka, hari ifite amabara y'umweru n'icyatsi n'indi ifite amabara yenda gusa umuhondo.

Mu imbere mu nyubako ahagaragara utubati dukozwe mu byuma, hakaba hateretsemo utubido turimo ibintu tukaba turi mu ibara risa umweru.

Umurima munini urimo ibimera bitarera neza, hakaba hari umugabo uhagazemo ari kugenda atera imiti n'ikijerekani mu mugongo.

Inyubako itagaragara neza, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ikigega cyubatswe mu mabuye kibika amazi, imbere hagaragara abadamu bari gupakira ifumbire.

Abantu basa nkaho bari gukora umuganda, higanjemo abagabo ndetse n'abadamu, inyuma yabo hari imodokari ebyiri hari ifite ibara ritukura.

Abantu batandukanye bari ahantu mu murima, bafite amasuka bari guhinga, ndetse harimo abagabo n'abadamu, hirya haparitse ikinyabiziga cya moto.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara akabati gakozwe mu byuma, kakaba karimo utujerekani twinshi, hasi hakaba hateretsemo amakarito.

Abantu bari mu murima, bamwe bafite amasuka bari guhinga, hakaba hari umudamu wambaye ijipo afite ibido ari kumena amazi.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo utubati dukozwe mu mbaho, hejuru hakaba hari utubido bifashisha mu kuhira turi mu ibara ry'icyatsi.

Umurima munini uhinze haragaragaramo umudamu witeze igitambaro, wambaye agapira k'amaboko magufinya n'ijipo ndetse n'umugabo.

Akabati gakozwe mu mbaho karimo n'ibirahuri, mo imbere hakaba hari ibikombe biteretsemo bifite ibara ry'icyatsi inyuma, n'amagambo y'umweru yanditseho.

Mu imbere mu nyubako, ahagaragaramo utubati turimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari umudamu wicayemo wambaye ishati yera, imbere yiwe hari mudasobwa.

Inyubako igaragaramo akabati karimo imiti itandukanye, ikaba iri mu tuntu tw'udukarito. Hari umugabo uhagaze, utagaragara igice cyo mu isura, wambaye ishati cyangwa se itaburiya y'umweru.

Umurima munini ugaragaramo abantu benshi batandukanye, hakaba harimo abagabo ndetse n'abadamu, bakaba bari gutera ibimera.

Ikibaya kigaragaramo abantu benshi bafite amasuka, harimo abadamu ndetse n'abagabo, hino hari igikapu cy'umukara kihateretse.

Umuntu utagaragara neza mu maso, wambaye umupira wera ndetse n'itaburiya yera, inyuma hari akabati karimo amoko atandukanye y'imiti.

Hasi mu kabande ahagaragara umurima munini cyane, uteyemo ibimera bikikijwe n'ibyatsi, inyuma haragaragara ibiti.

Umurima ugaragaramo amoko atandukanye y'ibiribwa, hagaragaramo intoki zitarera neza n'igiti kiriho imbuto bita imyembe.

Umurima munini bigaragara nk'aho ari bwo ugihingwa, kuko hakaba harimo intoki nyinshi ariko zitareraho ibitoki byo kuribwa.

Umurima ugaragaramo ibibabi bisa nkaho ari iby'imyumbati ndetse n'indi irambitse ku ruhande, wagira ngo ni bwo ikimara gukurwa.

Abantu benshi, bahagaze ahantu harunze ibyatsi byinshi cyane byumye, akaba ari abadamu, bambaye imyenda itandukanye.

Umurima munini ugaragara, uhinzwemo ibiribwa bita intoki, gusa akaba ari nta na kimwe cyari cyeraho urutoki rwo kuribwa.

Umurima munini cyane ugaragaramo ibimera biteyemo, hakurya kandi haragaragara ibiti byinshi bimeze nkaho ari ishyamba.

Ikimera bakunda kwita ikirayi, kikaba cyifashishwa mu gutegura amafunguro abantu barya, biri mu mufuka w'umweru ufite n'akabara k'icyatsi.

Umurima ugaragara ariko udafite ibintu byinshi byezemo, hashizemo ibiti bitari binini cyane. Inyuma hakaba hagaragara insina y'igitoki.

Umurima munini uhinzwemo ibimera bitandukanye, harimo ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi cyane birebire by'inturusu.

Kimwe mu bimera kigaragara, akaba ari ipapayi nyinshi cyane zakuze, hari izihishije cyane ndetse n'izindi zisa icyatsi.

Umurima ugaragara uhinzemo ibiribwa bitandukanye, hakaba harimo ibigori ariko bitari byakura neza, hakurya hakagaragara ibiti byinshi cyane.

Abantu bari ahantu mu ishyamba, harimo abagabo ndetse n'abadamu bari gutera ibiti, harimo uwambaye itaburiya y'icyatsi na bote z'icyatsi.

Imeza igaragaraho kimwe mu bihingwa kiri mu bwoko bw'imineke bikaba bisa nk'aho yahishije, yifashishwa mu kurya umuntu amajije gufata andi mafunguro cyangwa mbere yo gufata andi mafunguro.

Umurima ugaragaramo amoko y'ibihingwa, akaba ari ibigori, bisa nkaho byeze, ari binini kandi ni byinshi.

Ahantu hitaruye hasa nkaho ari mu murima, haragaragaramo ibyatsi ndetse n'ibiti bitoya, hirya hari umusozi uhari.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe amatafari akozwe muri sima mo imbere hateyemo ibimera bitandukanye, harimo intoki n'ibiti.

Mo imbere mu nyubako ahagarara imbwa iryamye hasi ndetse n'umugabo bisa nkaho ari umuganga ari kuyivura, yambaye itaburiya y'umweru.

Uducupa duteretse ahantu ku meza tukaba turi mu ibara ry'umweru n'imifuniko yatwo, hakaba hari ibipapuro byometseho biri mu mabara atandukanye,

Umurima ugaragara harimo abantu bari guhinga ndetse inyuma yabo hari intoki zitarakura neza bari gutera ibiribwa

Mu murima hagaragara umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'amaboko magufiya n'ingofero n'umudamu wambaye imyenda y'umukara.

Umurima ugaragara, uteyemo ibigori, hakaba hari umuntu ufite isuka ari guhinga, yambaye ipantaro ndetse n'umupira usa umukara.

Umugabo ugaragara wambaye isarubeti y'icyatsi yanditseho amagambo ari mu mpine mu ibara ry'umweru, yambaye ingofero ari gukora mu ifumbire.

Umurima uhingwamo amoko atandukanye ndetse harimo umukobwa ufite isuka wambaye ijipo n'umugabo uri iruhande rwe.

Abantu benshi batandukanye bahagaze ahantu hameze nk'aho ari iruhande rw'umuhanda higanjemo abagabo ndetse n'abadamu, bafite amasuka bari gukora isuku mu muferege.

Abantu bari mu murima bakaba bafite amasuka bari guhinga, bakaba ari abadamu n'abagabo, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi na bote zisa umukara.

Abantu batandukanye harimo abadamu ndetse n'abagabo, bakaba bari gukata icyondo bakoresheje amasuka, hirya hari uri kugenda agishyira mu kazu k'ibiti, inyuma yabo hari intoki.

Umuririma ugaragara nk'aho ari bwo ugihingwa, harimo ibimera bitarakura neza hakaba hari abantu barimo bari kubagara imyaka.

Abadamu bicaye kuri shitingi isa nk'aho bari kugosora ibintu ku nkoko hakaba barimo uwambaye igitenge yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Umurima uhinzwemo amoko atandukanye y'ibimera, haragaragaramo umuntu wambaye bote z'umukara, ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ingofero.

Umurima ugaragara nk'aho ari bwo ugihingwa, hakaba harimo insina ntoya cyane zitari zakura, hari umudamu urimo ukenyeye igitenge n'umupira.

Mu murima ahagaragara abadamu batatu, bakaba bafite amasuka bari guhinga, hari uwambaye ijipo irimo amabara atandukanye, umutuku ndetse n'umweru.

Umurima ugaragaramo abadamu bafite amasuka, bakaba bari guhinga; hari uwambaye ikanzu isa ubururu, undi yambaye ipantaro na bottes n'igofero y'umukara.

Abagabo babiri bari mu murima bari guhinga, bafite amasuka, harimo uwambaye ingofero ndetse na bote z'umukara, umupira n'itiriningi.

Mu murima ahagaragara umuntu uri guhinga, akaba ari umudamu wambaye umupira wera ndetse n'igitenge kirimo amabara atandukanye umutuku n'umuhondo, afite isuka ari guhinga.

Mu murima ahagaragara abagabo benshi cyane, inyuma yabo hari inzu ihari, bakaba bakikijwe n'ibiti n'intoki, bafite amasuka bari guhinga.

Abantu bahagaze harimo abagabo ndetse n'abadamu, hakaba hari n'undi wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare, afite igitabo mu ntoki.

Umurima munini ugaragara utaraterwamo imyaka, hakurya haragaragara ibiti ndetse hari umudamu wunamye wambaye ijipo n'umupira.

Abantu bahagaze ahantu hameze nko mu murima, akaba ari umudamu usa nkaho akuze wambaye ijipo idozwe mu gitenge, ndetse n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'ingofero.

Umusore wambaye ikabutura irimo ibara ry'umutuku n'umweru, ndetse na bodaboda, afite isuka ari guhinga, yambaye ingofero.

Umurima ugaragara ukikijwe n'ibiti bitari binini, haragaragara umugabo ufite isuka, wambaye umupira n'ipantaro yazinze.

Umurima munini uhinzwemo ibimera, hakurya akaba ari imisozi ndetse n'inyubako, hakaba hari abantu babiri barimo uwunamye n'undi uhagaze.

Akazu kagaragara kubakishijwe imbaho, gasakajwe amabati ndetse n'ibyuma bikagose, mo imbere hakaba harimo ibigori.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara imifuka myinshi iri mu ibara ry'umuhondo, hakaba kandi harimo n'akabara gatukura, hirya hari n'indi y'umweru ipakiyemo ibintu.

Abantu batatu bameze nkaho bari kugenda, harimo umugabo wambaye ijakete ndetse n'amarineti n'ishati y'amaboko maremare, umudamu ndetse n'undi ukenyeye imikenyero.

Ibigori byinshi cyane byumye bimanitse ku biti, hari umugabo uhahagaze wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ingofero y'umukara.

Ibintu bigaragara byubakishijwe imbaho, bisa nk'aho byifashishwa mu kubikamo imyaka, haragaragaramo kimwe mu bimera bita voka.

Abantu babiri bahagaze; umwe akaba ari umudamu ufite amafaranga mu ntoki, wambaye igitenge kirimo akabara gatukura, imbere yiwe hari igitebo kirimo inyanya.

Abagabo babiri bagaragara mo imbere mu nyubako, umwe yambaye ikoti ririre ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, undi yambaye na we bote z'umukara bari guterura umufuka.

Isoko rigaragaramo abantu benshi b'abadamu, hakaba harimo ibiribwa bita ibitoki, harimo ugaragara wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'ikabutura y'umukara.

Amoko menshi atandukanye y'ibihingwa biri mu bintu bikozwe muri parasitike, harimo amashaza, ibigori n'ibishyimbo.

Imifuka irimo amoko atandukanye y'ibinyampeke, isa umweru, n'indi mifuka isa icyatsi cyijimye, ikaba irimo amasaka ndetse n'ibindi.

Hasi mu kabande ahagaragara umurima munini cyane uteyemo ibimera bakunda kwita ibigori, hakurya hari ishyamba ririmo ibiti.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara imifuka itandukanye, hakaba hari iri mu ibara ryera, iri mu ibara ry'icyatsi, n'ibara ry'umuhondo, hari amabido ateretse imbere.

Isoko ry'ibiribwa rigaragaramo imifuka myinshi cyane irimo ibirayi byifashishwa mugutegura amafunguro hakaba hari abantu benshi bahahagaze abadamu n'abagabo.

Inyubako igaragaramo imifuka myinshi ipakiyemo ibihingwa cyangwa se ibimera bitandukanye, hakaba hari isa icyatsi n'indi iri mu ibara ry'umweru.

Inzu nini cyane igaragara nkaho ari ububiko bw'imyaka, haragaragaramo imifuka myinshi yera ndetse n'indi iri mu ibara rijya gusa igitaka.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, hakaba haparitse imodokari irimo ibindi bikaba ari ibitoki byinshi cyane hahagaze n'abantu.

Umurima ugaragaramo ibimera bitarakura neza, hakurya hakaba hari intoki zitareraho ibitoki byifashishwa mu kurya, inyuma hari n'ibiti bihateye.

Umurima ugaragaramo amoko atandukanye y'ibimera, hakaba hagaragara ibiti bitarakura cyane ndetse n'ibishyimbo bitarera.

Ibiti binini cyane kandi byinshi. Inyuma haragaragara inyubako iriho amadirishya yubakishijwe mu dutafari duhiye.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa bakunda kwita intoki, bikaba bitarera, hari n'ubwatsi buteyemo butoya.

Umurima ugaragara urimo amoko atandukanye y'ibiribwa, hakaba hateyemo urutoki rutarakura neza, inyuma hari ibiti bihateye.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye by'imbuto hari ibinyomoro byeze n'ibindi bitarera, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro.

Ibimera biteye mu mashashi yenda gusa umweru hakurya akaba ari ibiti bigaragara byinshi byo mu moko atandukanye.

Umurima ugaragara urimo amoko atandukanye y'ibyatsi, hakaba hari ibiti biteyemo, inyuma hari inzu itagaragara neza.

Umurima ugaragara uteyemo ibimera by'amoko atandukanye, hakaba hari ibyatsi bigaragara ndetse n'intoki zikiri ntoya zitarera.

Umuntu uhagaze imbere y'igihingwa bakunda kwita ikibiringanya, yambaye utukweto twa podaboda n'ipantaro y'ikoboyi izinze.

Isoko rigaragara ririmo amoko menshi atandukanye y'imbuto harimo inanasi, ibinyomoro, amatunda ndetse n'imyembe.

Igiti kinini kigaragaraho amashami menshi atandukanye ndetse impande yacyo hakaba hari imigozi itatu y'umukara y'amashanyarazi.

Umwana wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'ubururu y'amaboko maremare akaba yayizinze, ahagaze mu murima w'ibihingwa.

Umurima uhinzemo amoko atandukanye y'ibiribwa, harimo karoti ndetse n'ibijumba, hakurya hakaba hari ishyamba.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hagaragara ibigori bitarakura, hari umudamu wambaye ijipo ari gusoroma.

Abagabo bari ahantu hanze, bakaba inyuma yabo ari inyubako zihari ndetse n'ibiti, hari umugabo umwe uhagaze wambaye umupira utukura n'ingofero.

Umudamu uhagaze utagaragara neza mu gice cyo mumaso, akaba yambaye umupira w'amaboko magufiya, mu biganza byiwe afite pavuro.

Isoko ry'ibiribwa, haragaragara ibitunguru byinshi cyane ndetse n'umuzani bifashisha bapima, hirya hari utudobo turimo inyanya.

Isoko rigaragaramo ibiribwa by'amoko atandukanye by'imbuto, harimo imyembe, amaronji ndetse n'amatunda n'ibinyomoro.

Isoko ririmo amoko atandukanye y'imbuto, zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo ibinyomoro, amatunda ndetse n'imineke.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikaba iri mu gipangu hateyemo intoki, hanze hari ikimera kihateye.

Intoki z'umuntu utagaragara neza ku bice bindi by'umubiri, akaba afashe ku gihingwa kiri ku murima ndetse akaba ari ikibiringanya cyifashishwa mu byo kurya.

Ahantu hasa nk'aho ari isoko ririmo amoko atandukanye y'ibiribwa, cyane cyane imbuto, imineke, ndetse n'imyembe, amatunda n'amaronji.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibintu byinshi bitandukanye, harimo imbuto bakunda kwita wotermelon ndetse na pome z'icyatsi n'umutuku n'amaronji.

Umudamu uhagaze mu murima, wambaye ijakete ndetse n'umupira, akaba afite imisatsi isutse, afite ibinyomoro mu kiganza kiwe.

Umudamu uhagaze mu murima ufite imisatsi isutse, akaba yambaye umupira uriho amabara atandukanye umutuku n'umuhondo ahagaze imbere y'amatunda.

Hanze ahagaragara umuntu utagaragara mu gice cyo mu isura, imbere y'iwe hari imifuka ihashashe, hakaba hari karoti, inyanya ndetse n'intoryi.

Isoko rigaragaramo ibintu bitandukanye by'imbuto, harimo icyo bita watermelon, ndetse n'inkoko iriho imineke.

Umurima ugaragara urimo ibimera, hakurya hakaba hari umusozi, hari umugabo uhagazemo wambaye umupira w'amaboko magufinya ndetse n'ubwanwa.

Abantu benshi bagaragara bari ahantu hubakishijwe ibiti, hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo, haka hari n'umwana mutoya uhahagaze, wikenyeje igitenge.

Umurima ugaragara ukorotirijwe nagapangu k'ibiti, hagaragara umugabo ndetse n'umudamu bahagaze bombi bambaye imipira.

Umurima munini ugaragara hasi ahameze nko mu gishanga, hakaba harimo ibimera by'insenda, hari izisa icyatsi ndetse n'urundi rwahishije.

Umurima munini, ugaragara, uteyemo ibimera bitandukanye, hakurya hakaba hari imisozi, hari umugabo uhagazemo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko magufi.

Amoko atandukanye y'ibiribwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Harimo inyanya zisa nkaho zitukuye ndetse na karoti, ibitunguru na puavro.

Umudamu uhagaze ahantu hateye amoko atandukanye y'ibiribwa, akaba akenyeye igitenge ku rutugu ndetse yiteze n'igitambaro gitukura ku mutwe.

Igiti kigaragara kiriho utubabi twinshi cyane dusa icyatsi dutoya, inyuma haragaragara ikoma rinini cyane.

Abantu babiri bahagaze, umudamu ndetse n'umugabo, bakaba bafite ibimera mu ntoki, akaba umubyeyi yiteze igitambaro k'icyatsi.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imyaka haragaragara ibitunguru byinshi biri ku meza ndetse n'umunzani bifashisha bapima, inyuma haragaragara abantu.

Umudamu wambaye ibitenge akaba yunamye ari mu murima, inyuma yiwe hari inyubako ifite amategura, hari n'akana gatoya kamuri imbere.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'imbuto, hakagaragaramo indimu amatunda ndetse n'ibinyomoro, byifashishwa mu kurya.

Igipangu kigaragara giteyeho karabasasu, mo imbere hakagaragara ubwoko bw'bimera bita isombe, inyuma yaho ari igiti.

Umurima ugaragara uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hashizemo uduti twifashishwa mu gufata imyaka ikatuzamukiraho.

Umuntu utagaragara wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, akaba yicaye ku mufuka urambuye hasi mu byatsi uteretseho karoti.

Umurima uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hakaba hagaragaramo amashu, hari abantu bahagazemo umudamu ndetse n'umugabo, umwe afite umupira ari kuvomerera imyaka.

Umurima munini ugaragaramo ibimera bitarakura. Hakaba hateyemo umugezi cyangwa se robine iteretsweho ibidomoro birikujyamo amazi.

Abantu bahagaze mu murima akaba ari abadamu ndetse n'abagabo, umwe akaba afite ikintu mu ntoki ari kuhira, yambaye kamambiri n'ipantaro izinze.

Umurima munini uhinze, hagaragaramo umudamu usa nkaho akuze cyane, wambaye ingofero ndetse n'ishati ijya gusa ubururu, ari kuvomerera imyaka.

Umurima ugaragaramo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya, afite umupira urimo amazi, ari kuhira imyaka.

Umurima urimo ibihingwa bitarera neza, hari umugabo urimo afite umupira mu ntoki ari kuhira, yambaye bote z'umukara ndetse n'ingofero.

Umudamu uhagaze mu murima, akaba yiteze igitambaro, akaba yambaye ikanzu idoze mu gitenge, mu ntoki ziwe afite icyuma.

Abagabo batatu bahagaze mu murima, inyuma yabo hakaba hahinze ibigori ndetse n'intoki, harimo umwe wambaye umupira wera n'ingofero y'umukara.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa bita ibigori, hagaragara umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'ikabutura, hino hakaba hari igikoresho bita igitiyo.

Umugabo uhagaze mu murima akaba ari kuwuhira, yambaye ipantaro y'umukara ndetse na bote z'umukara, hakurya yiwe hari ishyamba riteyemo ibiti byinshi.

Umurima munini cyane uteyemo ibimera bitarakura neza, haragaragara umugabo wambaye iengeri yera ndetse na bote z'umukara, afite umupira ari kuvomerera imyaka.

Umurima uteyemo amoko atandukanye y'ibiribwa, hakaba hari umugabo uhagazemo ufite umupira mu ntoki, ari kuhira imyaka.

Umurima munini uhinzwemo ibimera bakunda kwita ibigori, hahagazemo abantu babiri, umudamu n'umugabo wambaye isengeri y'umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufinya utukura ndetse n'ipantaro y'ikoboyi na bodaboda z'umweru, inyuma y'iwe hateye intoki, hakaba hari n'amashu atarakura amuri iruhande.

Umurima ugaragaramo ibyatsi byinshi bitandukanye, hirya hakaba hari ibiti bihateye ndetse n'ibiribwa bihinzemo.

Ikibaya kigaragara kirimo imirima ihinzwemo amoko y'ibiribwa bimeze nk'umuceri, hakurya hari umusozi uteyemo ibiti.

Umurima munini cyane uhingwamo amoko atandukanye y'ibiribwa, haragaragaramo ibiti biteye, hakurya akaba ari ishyamba.

Ikibaya kigaragara hakaba hahinzemo amoko menshi y'ibiribwa, hakurya kandi hakaba hari ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane.

Ikibaya kigaragara hari imirima ihinzemo ibihingwa runaka, hakurya akaba ari imisozi minini irimo ibiti byinshi cyane.

Inzira igaragara nkaho yifashishwa mu kunyurwamo n'abantu, ikikijwe n'ibyatsi hakurya haragaragara ibiti byinshi.

Umurima munini cyane ugaragara uhinzwemo ibimera bitandukanye. Hateyemo intoki nyinshi, hakurya haragaragara umusozi.

Hasi mu kabande ahagaragara ibyatsi byinshi, hakurya akaba ari umusozi uhinzeho imirima itandukanye, hakaba hateyemo n'ibiti byinshi.

Inzu nyinshi zigaragara hasi mu kibaya gikikijwe n'imisozi irimo amashyamba arimo ibiti bitoya, hakagaragara inzu ifite amabati atukura.

Inyubako igaragara iriho inzugi n'amadirishya, inyuma yaho hakaba hari ibiti byinshi bigaragara, hakurya hakaba hari n'izindi nzu zihagaragara.

Umurima ugaragara uteyemo ubwoko bw'ibimera, hakurya hakaba hari ibiti hari umuntu uri kugendamo ariko utagaragara neza.

Ahantu hitaruye hateyemo ubwatsi, hakagaragara hakurya umusozi munini ndetse n'ibiti, hakaba hari umuntu uri kugenda afite telefone ku gutwi.

Umurima ugaragara, uteyemo amoko atandukanye y'ibiti, hakurya hakaba hari imisozi irimo ibiti byinshi cyane.

Ahantu hagaragara hateyemo ibyatsi bitoya ndetse hakurya hakaba hagaragara ibiti binini ndetse n'amazu ahubatse.

Inyubako itagaragara neza isakajwe amabati atukuye, hakaba hamanitseho n'anteni, hakurya haragaragara umusozi munini.

Ubwoko bw'itungo bita ihene, ikaba ihagaze mu byatsi, ifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi ry'igitaka.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti binini cyane, gisakajwe amabati arimo mo imbere ibyatsi, ndetse n'inka iri kubirya.

Umudamu wambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, akaba yiteze igitambaro, iruhande rw'iwe hari akana gatoya k'agakobwa kambaye ijipo ijya gusa ubururu n'umupira.

Mu imbere ahasa nk'aho ari mu kiraro haragaragaramo ubwoko bw'amatungo bita ingurube hakaba harimo udutoya turi konka iryamye.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti bigiye bizirikanyije, hakaba mo imbere harimo ubwatsi ndetse n'itungo riryamyemo rifite ibara ry'umukara.

Inka igaragara iri kurisha ifite ibara ry'umukara ndetse n'irindi ry'umweru mukeya, ikaba ihagaze mu bwatsi bwinshi.

Hanze y'inyubako ahagaragara itungo bakunda kwita ingurube, rihagaze imbere y'inzu yubakishije urwondo, hakagaragara n'ibido y'umuhondo.

Mo imbere ahantu hasa nkaho ari mu kiraro, hagaragara itungo riri mu bwoko bw'inka, rifite ibara ry'igitare ndetse n'umukara muke.

Mo imbere mu kiraro ahagaragaramo ibibido bisatuyemo ndetse n'amatungo ari mu bwoko bw'ingurube, ibyo akaba ari byo byifashishwa mu gushyiramo ibiryo ngo zirye.

Umwana ugaragara inyuma wikoreye ijerekani isa umuhondo, yambaye agapira ndetse n'ikabutura, hano imbere hari umugabo wakoze ku kanyana gatoya.

Ahantu hagaragara itungo bakunda kwita inka rikaba rizirikiye mu kiraro, rirahagaze riri kurisha ubwatsi.

Inkoko ihagaze hanze mu mbuga, ikaba ifite amabara atandukanye, irijya gusa n'igitaka ndetse n'umukara, akaba ari isake.

Ikiraro kigaragara cyubakishijwe ibiti binini cyane, hakaba harimo ibyatsi mo imbere, ndetse n'itungo bakunda kwita ingurube.

Inka zifite ibara ry'umukara, hari abantu bahagazemo hagati, hari umugabo wambaye ishati idoze mu gitenge, akaba yambaye n'ipantaro.

Inka nyinshi ziri ahantu hazitiye hubakishijwe ibiti, haragaragara abagabo, hari uwambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru n'ingofero na bote z'umukara.

Umudamu ukenyeye ibitenge birimo amabara atandukanye, hari amatungo amuri imbere y'ihene n'umwana wambaye akajipo n'udukweto turi mu ibara ry'umukara.

Abagabo bahagaze mo imbere mu nyubako, hakaba harimo babiri bambaye bote z'umukara n'imipira, ndetse bose bafite inkwavu mu ntoki.

Itungo rigaragara akaba ari ihene, ifite ibara ryera ndetse n'umukara, hino hasi haragaragara umukubuzo bifashisha mu gukora isuku.

Ikiraro cy'amatungo gisa nkaho ari gishyashya, imbere yacyo hahagaze abantu benshi biganjemo abagabo n'abadamu.

Ikiraro kinini cyane cyubakishijwe ibiti ndetse kikaba gisakajwe amabati, imbere hakaba hari umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ishati.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara akabati gakozwe mu tuntu tw'utwuyuma, tugiye tugabanyijemo utuwumba, harimo amagi menshi cyane.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare iciyemo uturongo, yambaye ipantaro isa umukara ndetse n'utubodaboda imbere y'iwe hari inkoko.

Umuntu usa nkaho ari musore wambaye ijakete y'amaboko maremare, akaba ahagaze inyuma y'ikiraro kirimo itungo rigufi bita ingurube.

Imbuga irimo inka nyinshi, hari iryamye ifite ibara risa igitaka, izindi zirahagaze, inyuma haragaragara ibiti.

Umuntu utagaragara neza ku bindi bice byo hejuru, yambaye inkweto zifite ibara ry'umukara n'umutuku n'ipantaro, hasi harambitse uducupa.

Abantu benshi bahagaze hanze mu mbuga, inyuma yabo hakaba hari amazu ndetse n'ibiti, higanjemo abagabo ndetse n'abadamu, bakaba bafite ingurube.

Imwe mu moko y'amatungo iri mu kiraro, akaba ari ihene isa umukara, iziritse ikaba iri kurisha ibyatsi.

Imwe mu itungo bita inka, ikaba ifite ibara risa umukara, ku maguru ikaba isa ibara ryera, ihagaze mu kiraro.

Hanze y'inyubako igaragaraho ku urugi rukozwe mu mbaho, n'amabuye ari hasi n'umufuka ndetse n'itungo rigufi bakunda kwita ingurube.

Imbuga igaragara nini irimo ibyatsi, hakaba harimo amatungo abiri aziritse akaba ari ihene zifite amabara ajya gusa igitaka.

Abagabo bahagaze hanze y'inyubako, hakaba hari akana gahari kambaye utubodaboda ndetse n'agapira karimo amabara atandukanye, umutuku n'umukara.

Kimwe mu bimera byifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye, yaba imboga n'ibindi byinshi, bakaba bacyita pavuro.

Umugabo uhagaze mu murima w'amashu akaba yambaye umupira w'amaboko magufi ndetse n'ipantaro, inyuma y'iwe hakaba hateye intoki nyinshi cyane.

Isoko rigaragara ricururizwamo amoko atandukanye yibiribwa. Hanze hakaba hicaye abadamu babiri, imbere yabo hakaba hari amashu.

Ahantu mumuma hagaragaramo umugabo wambaye isaha n'ijakete n'umupira mo imbere w'umuhondo, akaba yambaye n'ipantaro n'ingofero.

Umurima ugaragara uhinzwemo ubwoko bw'ibimera byifashishwa muzima bwa buri munsi bateka ari bwo inyanya zihiye ndetse n'izindi zitarera neza.

Umugabo ugaragara uhagaze mu murima, akaba yambaye aka jakete k'umukara, ndetse n'ishati y'amaboko maremare, n'isaha ku kuboko, yambaye n'ingofero.

Igishanga kigaragaramo amazi atemba ndetse n'ibyatsi biyakikije harimo ibyumye ndetse n'imigano yaguye hasi.

Abantu bahagaze ahantu hameze nko mu ishyamba kuko harimo ibiti bihagaragara, hakaba hari inka ifite ibara ry'umukara n'umugabo wambaye isarubeti y'ubururu na bote z'umukara.

Umugabo uhagaze mu kiraro, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro na bote zisa umukara, imbere y'iwe hari inka, hari ibyo ari kuyikoraho.

Umusore wunamye, wambaye ishati irimo uturongo tw'umutuku ndetse n'umweru, akaba adafite umusatsi mwinshi, imbere yiwe hari inka ifite ibara ry'igitare n'umukara.

Umuntu utagaragara mu gice cyo mu isura, wambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, afite ikayi n'ikaramu ari kwandika.

Abagabo babiri bahagaze hanze y'ikiraro, mw'imbere hakaba harimo inka ifite ibara ryera, ndetse umwe yambaye igisarubeti gifite ibara ry'ubururu.

Abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe wambaye isarubeti isa ubururu na boti z'umukara, imbere yabo hari inka ihahagaze bakaba bari kuyipima.

Abagabo batatu bagaragara umwe yambaye isarubeti na bote z'umukara, afite ikayi mu ntoki, imbere yabo hari inka.

Abagabo babiri basa nkaho bari mu kiraro cy'inka; umwe arahagaze yambaye ijaketi n'ipantaro, undi arasutamye yambaye bote z'umukara.

Hanze ahagaragara umugabo uhagaze, wambaye umupira w'amaboko maremare wera n'ingofero ndetse n'akana gahagaze, kambaye umupira utukura, inyuma yabo hari inka.

Umugabo uri mu kiraro wambaye ingofero y'umukaraba, akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote z'umukara, afashe ku nka.

Umugabo uhagaze mu kiraro wambaye ingofero y'icyatsi ndetse na bote z'umukara, yafashe inka ahagana ku munwa hari ibyo ari kuyitamika.

Umugabo uhagaze wambaye isarubeti n'ingofero by'umukara ndetse na bote zisa ibara ry'umukara, inyuma yiwe hakaba hari inka.

Abagabo batatu bahagaze hanze y'ikiraro cyubakishijwe ibiti, bakaba bafashe ku nka bisa nk'aho bari kuyisuzuma umwe yambaye isarubeti isa ubururu.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hari ishyo ry'inka nyinshi, umwe yambaye ingofero n'ipantaro y'ikoboyi, ahetse ikintu mu mugongo kirimo umuti bagenda batera.

Abagabo babiri bahagaze mu kiraro mo imbere, umwe akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu, undi na we akaba yambaye umupira w'amaboko magufi.

Umugabo uhagaze hanze akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote zisa umukara, iruhande rwiwe hari isafuriya ndetse n'indobo.

Ishyamba rigaragara riteyemo utwatsi dutoya hakaba hari n'ibiti bigaragara. Hari inyamaswa iri mu ubwoko bw'inzovu.

Ubwoko bw'imwe mu nyamaswa bakunda kwita inkende ikaba ifite ubwoya bw'umukara ndetse n'ubundi bwera ahagana ku mutwe.

Umusozi ugaragaraho ibyatsi ndetse n'ibiti, hino hakaba hari ubwoko bw'inyamaswa bakunda kwita imparage, zifite ibara ryera ndetse n'umukara.

Ishyamba riteyemo ibyatsi byinshi cyane ndetse n'ibiti bitari byakura, harimo inyamaswa bakunda kwita inzovu.

Ishyamba rigaragaramo inyamaswa nyinshi hari iziri kurisha izindi zinywa amazi, hakurya yaho hari umusozi urimo n'ibiti.

Abagabo bane bari kugendera ku kiraro cyo mu kirere ndetse uri imbere yambaye umupira w'amaboko maremare y'umukara n'ingofero, ari guseka.

Umusozi ugaragaraho ibiti bitari byinshi ndetse n'ibyatsi bihagaragara, harimo inyamaswa bakunda kwita gasumbashyamba.

Inyamaswa igaragara isa nk'aho yicaye ku giti, akaba ari inkende ifite amabara atandukanye, ibara ryera ndetse n'ibara ry'umukara.

Igishanga kigaragaramo ibiti bitari byinshi cyane ndetse n'ibyatsi birebire, hakaba harimo inyamaswa ebyiri bakunda kwita agasumbashyamba.

Imwe mu bwoko bw'inyamaswa bwitwa inyende, ikaba iri kumwe n'akandi gatoya kicaye ahagana ku gikuta cy'inzu gisize irangi ry'umweru, inyuma hakaba hari ibiti bitoya.

Ihene ihagaze, ifite amabara atandukanye, harimo iry'umukara, n'irindi rijya gusa igitaka, ifite amahembe maremare, ihagaze mu byatsi.